Icyumba k'ibitaro, giteye amarangi meza cyane, harimo ibitanda bitatu, bibiri birasashe, ikindi ntabwo gisashe, harimo umugezi urimo amazi.

Abaganga benshi bari mu bitaro, bambaye udupfukawa, bambaye ingofero, harimo abazungu n'abirabura bari kuvura umugwayi, hari abambaye ingofero z'umukara, hari n'abambaye iz'andi mabara atandukanye.

Imiti myinshi cyane iteretse, ni imiti icucitse cyane yiganjemo amabara y'umweru iri mu ducupa. Hari uducupa dufite imifuniko Y'ubururu n'udufite imifuniko y'umweru, n'udufite imifuniko y'icyatsi.

Ibyatsi byegeranye bisa n'icyatsi biri ahantu hamwe, hari ibindi byatsi biri hasi byumye hari n'ibindi byatsi biri hirya by'icyatsi hari urutonde rw'amabuye.

Ahantu hasa neza cyane, hari igiti kirimo. Iki giti ni cyiza cyane kuko kiravura, gifite umuti uvura abantu. Hari n'ibindi biti biri ku ruhande, ibiti bisanzwe ariko iki giti ni cyiza cyane.

Ibyatsi byiza cyane bisa n'icyatsi, hari ibifite utuntu tukiri icyatsi, hari n'ibifite utuntu twumye. Ni ibiti biri mu murima bigaragara neza cyane.

Ibyatsi byinshi cyane bisa neza cyane n' ibyatsi by' icatsi biri mu murima inyuma yabyo hari ibiti byumye.